Abantu b'abagabo n'abagore bicaye, imbere yabo hari icyo kunywa no ku meza, bameze nk'abatumbiriye muntu uri imbere yabo ari kugira ibintu ababwira.

Abagore n'abagabo bicaye mu ntebe, hagati y'izo ntebe zabo harimo utumeza tugiye duteretseho amazi, bamwe bambaye amabaje abandi ntayo bambaye, umwe afite microhone w'umugore ameze nk'uri gutanga ikiganiro kuri abo bantu.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe, ku meza yabo hateretse ibyo kunywa ndetse n'amadokima, bari kureba imbere nk'abafite ikintu bakurikiye, umuntu ariho arababwira cyangwa arimo arabatangariza.

Abaturage ndetse n'abasirikare bicaye mu kidara kidekoresheje amabara y'idarapo ry'u Rwanda, hari umukecuru uri gusuhuza umuntu wicaranye n'ingabo z'u Rwanda amukora mu kiganza bigaragara ko yamwubashye cyane.

Abantu bicaye abagabo n'abagore, imbere yabo hari amazi ateretse ku meza, haruguru yaho hari abagabo babiri bafite kamera barimo barabakamera.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inzu, bambaye amabaje, bafite n'ibitabo, bakoze imirongo barimo barifotoza.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, umugabo umwe abahagaze imbere, afite mudasobwa imbere ye hari n' ibintu yaporojegise ari kubereka.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe ku meza barebana, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi bameze nk'abatumbiriye umuntu imbere yabo uri kugira ibyo ababwira, bose kandi bishimye, bamwe muri bo bamanitse intoki, abandi barishimye.

Abazungu n'abirabura bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza, ateretseho amazi ndetse na mikorofone, imbere yabo kandi hicaye abandi bantu mbese bicaye mu ruziga, bameze nk'abakurikiye ikiganiro.

Abagore n'abagabo, abazungu n'abirabura, bicaye kumeza akoze ikiziga, ni ukuvuga barebana, imbere yaboho hari ameza ateretseho amazi ndetse na mikorofone, bameze nk'abakurikiye ikiganiro imbere yabo.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu mu matente ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse amazi, ateretse ku meza. Ntabwo ari abirabura gusa harimo n'abazungu, inyuma yaho hari ikindi kidara kirimo abantu bameze nk'abafite ikintu bakurikiye imbere yabo bifashwe neza.

Abantu b'abagabo n'abagore, abirabura n'abazungu bicaye ku meza, buri wese ahugiye mu bye, harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, umwe mu bagabo yambaye amarinete yikoze mu mutwe, acutse umutwe ameze nk'uri kugira ibyo yandika, umwe mu bagore na we w'Umunyafurika, yambaye amarinete ari kureba imbere ye, mu gihe undi mugabo ku ruhande yubitse umutwe na we afite ikaramu.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, ikaramu iteretse ku meza, amazi ndetse n'urupapuro, bari kureba imbere yabo umugabo ufite mudasobwa imbere ye, wifashe mapfubyi wambaye n'amarinette umeze nk'uri kugira ibintu abatangariza.

Abagabo n'abagore bicaye bambaye amakote abandi bambaye amakanzu bambaye neza bigaragara ko bari mu nama, imbere yaho hateretse ameza ateretseho amazi bakurikiye ibiganiro bari guhabwa imbere yabo.

Abantu bicaye bareba imbere umuntu uhagaze imbere yabo, ari kugira ibintu ababwira, inyuma ye hari porojegiteri, ameze nk'uri gukora purezantasiyo imbere yabo.

Umusore wambaye umupira w'ubururu wa runiga, ufite telefone ya taci mu ntoki, ari kuyerekana yerekana serivisi z'irembo atungaho n'urutoki.

Abasore bicaye ahantu ku muhanda bose bubitse umutwe muri mudasobwa zabo, umwe ari kureba inyuma, undi ari kureba imbere yiwe, abandi bose bacuritse imitwe mu byuma by'ikoranabuhanga byabo.

Umusore uhagaze mu itente wambaye umupira w'umweru wanditseho irembo, ufite mudasobwa imbere ye lalonje ndetse n'ifotokopiyeze ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, imbere ye hari abaturage bahagaze benshi bameze nk'abamushungereye, ari kugira ibyo abereka iruhande rwe hari undi musore yicaye ku ntebe ya plastike y'umweru uri ku mureberera nawe.

Umunara muremure uri mabara y'umutuku n'umweru ufite uruzitiro, iruhande rwaho hari ibindi byuma ndetse n'urwo ruzitiro rwuwo munara hateretse ijerekani, kuruhande rw'urwo ruzitiro hari igiti gifite ibiti birebire bifite amashami arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'insinga.

Akazu gatoya kometse ku y'indi nzu, gafite imitako y'imigongo, mo imbere harimo abantu batatu, umwe ari kuri mudasobwa, iruhande rwabo hateretse igicupa kinini cy'amazi ya Jibu.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Umusore wicaye mutaka, iruhande rwe hari imifuka, inyuma ye hari fondasiyo itari yuzura, ku ruhande rwe hari amapironi ane akurikiranye ariho imigozi y'amashanyarazi, munsi gato yayo hari inzu zino zabugenewe z'uducurama.

Umuhanda urimo umuntu uri kugenda hepfo yaho gato hari akazu ka MTN, inyuma yako hari ipironi rifatiyeho amashanyarazi, munsi yaryo hari amazu abiri, munsi yayo hari ibiti ndetse n'ipironi ry'amashanyarazi.

Umuhanda harimo imodoka itwara abagenzi imbere, inyuma yayo hari ipikipiki, inyuma yayo gato hari imodoka yindi itwara abagenzi, ya Kwasiteri, hepfo gato hari abagenzi bategereje imodoka, hepfo yaho kandi hari amapironi acaho imigozi y'amashanyarazi.

Inzu yubakishijwe amabati asa nkaho atari mashyashya ifite. Imiryango ya fime ku ruhande hari ibyatsi birebire byakuze, inyuma yaho hari ipironi ririho imigozi y'amashanyarazi igenda ihererekanya ahantu hatandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo, munsi yaho hari inzu yubatse ifite Poroture y'umuhondo. Hirya gato hari inzu z'ubucuruzi zifite ibyapa bya Sikolo, ndetse hari na Parikingi iparitsemo amamodoka menshi.

Umuhanda wa kaburimbo, hepfo yawo hari akazu karekare kubakishije amabati, hahagazemo umugabo wambaye ingofero. Ako kazu gafite uruzitiro, hejuru ruriho senyenge, ku ruhande hariho umunara muremure, uriho imigozi y'amashanyarazi.

Ipironi ry'amashanyarazi rirerire ririho imigozi myinshi igemura amashanyarazi ahantu hatandukanye, urwego ruriho umukozi wa rege ari kubitunganya na mugenzi we bateganye kuri iryo pironi bose.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ubururu, kuruhande hari ubusitani buteyemo indabo, hepfo gato hari ipoto y'amashanyarazi, iriho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Ipironi rirerire cyane riri gucaho imigozi itatu y'amashanyarazi, ku ruhande rwaho hari ibiti bigufi bifite amashami agaye, ku rundi ruhande hari igiti kirekire gifite amashami maremare.

Inzu hari kugaragaramo ababyeyi b'abagore bahagaze ku ruhande rwabo hari umuganga wambaye agapfukamunwa na ya myenda yabo, imiryango irarangaye, amatara arimo araka, hepfo yabo hari amabase.

Inzu y'amagorofa atatu isize amarangi y'ubururu n'umweru, ku ruhande hari ubusitani buteyemo ururabo rumwe rukoze ikiziga, hirya y'aho hari parikingi iparitsemo imodoka.

Imfungwa bigaragara ko yakatiwe burundu yambaye, ya myenda yiroze, iri gusuhuzanya n'umugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma yabo hari ubusitani burimo ibyatsi by'icyatsi, ndetse n'inzu ndende y'umuturirwa.

Ababyeyi bari kureba imbere bambaye imyenda y'umweru n'udutambaro mu ijosi turiho ibendera ry'u rwanda bari kureba imbere bameze nk'abafite ikintu bakurikiye.

Abagore n'abagabo bambaye amakanzu y'imikara n'imyeru, ku maboko ku musozo hariho akarongo k'ubururu ndetse bambaye n'utugofero, imbere hari abambaye amakanzu y'umweru n'amashati y'umweru, inyuma hari abambaye amakanzu y'umutuku n'amashati y'umweru.

Imfungwa zicaye ku meza imbere yaho hateretse imashini, zambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda isa orange yabagenewe. Ni igitsina gabo gusa inyuma yabo, hari hahagaze umucungagereza yicaye mu cyumba.

Abacamanza batanu bicaye, bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari amamikorofone, amatelefone ndetse n'impapuro, hari mudasobwa kandi ku meza yabo ndetse n'amazi, batumbiriye imbere nk'abari guca urubanza.

Abagororwa bambaye imyenda y'iroza, bamwe baricaye abandi barahagaze, abandi bari imbere yabo bameze nk'abari gushaka serivisi bahabwa, hepfo yabo hari ishyamba ndetse n'ipironi ricaho umuriro w'amashanyarazi.

Gereza ya nyarugenge iri kwinjiramo imfungwa z'igitsina gore, zambaye imyenda y'amajipo n'amakanzu ya orange, umwe muri bo ariwe wambaye imyenda y'irose, inyuma yabo hari ikintu kimeze nk'umunara muremure gisakaye hejuru, cyurirwaho hakoreshejwe urwego.

Umuhanzi kizito mihigo wambaye ishati y'umweru y'amaboko aciye ndetse n'isaha k'ukuboko wifashe neza, yicaranye n'abasore babiri ku ntebe nabo bambaye amashati abiri y'umweru, bafite impapuro ziri muri ibahasha ijyamo impapuro.

Umugabo mukuru w'umusaza, wambaye amarinete, uhagaze imbere y'umupolisi, bari kumwambika amapingu, ku ruhande rwabo hari umugore n'umusore.

Umugabo w'umunyafurika uri kureba imbere ye, wambaye ikanzu y'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru, mo imbere yambaye ishati y'amaboko maremare na karuvate.

Umugore wambaye ibintu by'ubururu, shenete, ufite purante, wambaye amarinete n'amaherena, wifashe neza ugeretse ukugurukundi, uri kureba imbere ye.

Habyarimana Juvenali wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wambaye ikote, ishati y'umweru na karuvate, inyuma ye hari amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Abantu bambaye amashati y'umweru, ingofero z'umukara, ndetse n'imipira, bashyize hejuru ibiganza, bafite ibishushanyo by'igipfunsi, ni ikivunge cy'abantu basamye, bigaragara ko bafite morare, bazamuye amadarapo ya efuperi, n'amabara yayo.

Abagabo babiri bambaye amakote, amashati y'imyeru na karuvati bari kwerekana amadosiye ari ikirangantego cya repuburika y'u Rwanda, inyuma yaho hari ibendera ry'u Rwanda n'ibendera ririho ikirangantego cya repuburika y'u Rwanda, bose bambara amarinete.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, uzamuye amaboko asuhuza abaturage bari inyuma ye n'impande ye, inyuma ye hari abarinzi be bane, iburyo babiri n'ibumoso babiri, inyuma yabo kandi hazamuwe amadapo ya FPR.

Imodoka iriho hejuru umugabo uri kugenda akora ibimenyetso, ku ruhande hari abantu bafite ifoto ye, bambaye imipira y'icyatsi bafite no kumwogeza bazamuye n'amaboko.

Abagabo bicaye abirabura n'abazungu bavanze, imbere yabo hari ameza adekoye, bamwe bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, umwe ni umuyisilamu, inyuma yabo hari amadarapo y'ibihugu ndetse n'icyapa kinini kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Umubyeyi uhagaze imbere y'indangururamajwi wambaye ikanzu na shanete n'amarinete n'amaherena, inyuma ye hari ababyeyi bameze nk'abakurikiye ibintu bariho bavuga...

Abagabo babiri bambaye amakositimu n'amakaruvate, bose bahagaze bareba imbere, bari kwifotoza bafashe dokima ndetse na kashe hejuru y'izo dokima, inyuma yabo hari umugore wambaye amarinete ufite agasatsi gake ka natirere wicaye mu ntebe uri kubareba.

Ikiganiro kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na madame Jeannette Kagame, ari kumwe n'uhagarariye amatora aricaye, imbere yabo hari ameza bari kumukurikira ngo ababwire.

Nyakubahwa perezida wa repubulika imbere y 'abantu bicaye bari kumwumva ,imbere y'abo bantu hari ameza ateretseho amazi ,ubari imbere arigutunga urutoki muri bo bari ahantu mu cyumba bicaye hari amadirishya manini.

Umuhanda urimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso, ifunikishije shitingi y'icyatsi, hepfo yaho hari ibiti n'uruzitiro n'amazu ndetse n'ayandi mamodoka aparitse.

Umuhanda wegereye inzu y'igorofa ikorerwamo ubucuruzi imbere y'iyo nzu hari imodoka ya rukururana ihetse imizigo hari na parikingi iparitsemo amamodoka menshi moto na zo ziri gucicikana mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nkaho ari gare, harimo utuzu twicarwamo n'abagenzi bategereje imodoka, haparitse imodoka itegereje abagenzi, hepfo yaho hubatse inyubako ya etaje ndetse no hirya ku ruhande hari iyo nyubako.

Umugabo wambaye ingofero, ufite agakapu mu ijosi, uri kugenda ku igare, iruhande rwe hari imodoka ihetse, munsi yaho hari ibiti by'icyatsi ndetse n'uruzitiro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, haruguru yaho hari inzu ifite parikingi iparitsemo amamodoka, epfo yaho hateye indabo, harimo amasipure ndetse n'ibiti ku ruhande.

Imodoka itwara abagenzi ifite amabara y'umukara n'ubururu n'umweru, imbere yayo hari abantu bari kuyitambuka iruhande, biragaragara ko iparitse ahantu mu kibuga haparitsemo n'izindi modoka, hepfo yayo hari icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi wikoreye imifuka myinshi, yambaye ingofero, hepfo yiwe hari umukarani wegamye mu mamodoka menshi aparitse muri parikingi, ku ruhande hari akazu ka MTN.

Imodoka itwara abagenzi ya shira umuteto, iri mu muhanda, harimo abagenzi basohoye amaboko, hepfo y'umuhanda hari itara, ibiti birebire bifite amashami agaye n'ibindi bifite amashami atagaye, inzu hepfo y'ibyo biti.

Umuhanda harimo imodoka yurukurana ifite ibara ryicyatsi ku ruhande imodoka ya rukururana ifite ibara ry'ubururu moto hariho umugenzi n'umuhanda umanuka ugera mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hepfo yaho hari inzu za etage ndetse n'utuzu twa MTN tugiye dutandukanye, harimo n'amatara mu muhanda ndetse n'andi mazu yo guturwamo.

Umuhanda harimo imodoka nini ya rukururana, yanditseho imirwa, ifite ibara ry'umweru, ku ruhande rwawo hariho ibiti ndetse n'ibyatsi by'icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo moto ya rifani, modoka itwara abagenzi ya kwasiteri nyuma yayo imodoka ya toyota n'indi modoka ziparitse haruguru y'umuhanda, n'inzu itaruzura irimo kubakwa ya etaje.

Amamodoka atatu ya dayihatsu aparitse ahantu, imwe bari kuyipakurura, indi irimo shitingi, hari abakarani hafi aho n'abantu bahagaze bari mu byabo, hepfo yabo hubatse amazu.

Inzu ya etaje hanze yayo hari udutebe abantu bicaraho, hari n'umuhanda, hari urujya n'uruza rw'abantu babisikana.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umweru harimo umuntu mukuru n'umwana cyerekana kwambuka umuhanda kw'abagenzi. iruhande rwacyo hari ibiti n'ibyatsi bifite amabara y'icyatsi.

Icyapa kiburira abantu ko aho hafi hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa, gifite umuzenguruko wa mpande eshatu, harimo umuntu umeze nk'ufite igitiyo, agiye kugira ibyo ayora, ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite umuzenguruko w'ubururu harimo inyugu ya ''p'' n'imodoka, iruhande rwacyo hari ibyatsi; ruguru yabyo hari inzu y'umuturirwa ifite amabara y'umweru n'ubururu.

Icyapa kibwira abagenzi kwambuka, gikozwe muri mpande eshatu kikagira umuzenguruko w'umweru, hepfo yacyo hari igiti, ubusitani ndetse n'indabo.

Umuhanda urimo amapikipiki, ruguru yawo hari ibiti bifite amabara y'icyatsi, munsi yawo hari ibiti, amazu, ndetse n'ubusitani buteyemo icyapa cyerekana ko ari aho abagenzi bagomba kwambukira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari kuzamuka umuhanda, hahagazemo umugabo n'umugore, bameze nkabategereje, ruguru hari inzu ya etage, iri kuvamo abandi bantu.

Amazu menshi, inzu ngufiya, n'indende bivanze inyuma yazo hari umunara muremure imbere yazo hari imigozi icicikana y'amashanyarazi munsi y'iyo migozi hari ibyatsi n'ibiti birebire..

Ibyatsi byinshishi bigiye biteyemo ibiti bitarakora neza bifite amabara y'icyatsi ndetse harimo n'indabo.

Umuhanda w'igitaka urimo urujya n'uruza rwa moto n'imodoka ndetse n'abanyamaguru, hepfo gato haparitse amamodoka ndetse hubatse n'inzu isize irangi ry'umweru.

Inzu ya etaje ifite amagorofa ane, hepfo yaho haparitse amamodoka, hari urujya n'uruza rw'abantu bari kujya mu mirimo, abandi bahagaze bategereje gufata serivisi,,,

Amazu meza yubatswe muri ubu buryo bw'uducurama, ifite amabati y'amabara atandukanye, harimo etaje ebyiri izindi ni izo hasi, ibiti amasaka.

Amazu mato bigaragara ko yubatse mu kajagari hagati yayo mazu hagiye harimo ibiti birebire ruguru yaho hari etaje umunara.

Umunyamaguru uri kwambuka umuhanda imodoka zahagaze, ari kujya hakurya yaho ahantu hari inzu iruhande rwaho haparitse imodoka,,,

Inzu yubakiye ifite urupangu rusa icyatsi, ituranye n'indi ifite urupangu rusa ubururu bwijimye, inyuma yaho hari indabo, hirya yaho hari urutoki ndetse n'iyindi myaka y'ibigori, haruguru yaho hari ay'andi mazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hejuru hari ibikingi bihita bizamuriraho uwundi muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari indabo ndetse n'ibiti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya Dayihatso ifite ibara ry'ubururu, rwagati muri uwo muhanda hamanitse isaha ifite ibara ry'umweru, ku ruhande gato hari ibiti, ibyatsi ndetse n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo, amatara yose ari kwaka ni mu masaha y'ijoro, ibinyabiziga nabyo byacanye amatara, iruhande hari inzu ya etaje iri kwaka amatara.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ari mu masaha ya nijoro, harimo amatara yaka, harimo ibinyabiziga, amamodoka, amamoto, hepfo yaho hari ibyatsi ndetse harimo n'urujya n'uruza rw'abagenzi.

Umuhanda urimo igare rihetse imizigo, moto ihetse umuntu, hejuru yawo hari uwundi muhanda, bawukoreyeho uhagaze ku nkingi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, iya Toyota iri imbere y'umukara ndetse n'iyindi y'umuhondo itwara abagenzi, munsi yayo hari inyubako imeze nk'urusengero ifite amabati y'ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ama modoka abiri, moto imwe, igare, munsi yaho hari ibiti, n'ibyatsi

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki, ahetsa abantu n'idahetse abantu abantu, hepfo y'aho hari ibiti n'ibyatsi...

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari kwaka feruje y'icyatsi yerekana ko abagenzi bagomba kwambuka umuhanda, iruhande rwawo hari amazu y'ubucuruzi ndetse na sitasiyo ya esanse.